Umukecuru uri ku ivomero, aho afite ikivomesho, akaba yashyize umunwa w'ivomero mu kivomesho cye ngo abone amazi yabasha kuba yakoresha mu guteka indyo yuzuye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye hamwe, aho buri wese agiye afite agapapuro ka muri imbere, kavuga izina rye n'icyo ashinzwe, ndetse bakaba biteretse n'amazi yo kunywa.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, aho bari mu nama yabahurije hamwe ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ku bigendanye n'indwara zandurae zitandura, aho bari guhabwa ikiganiro bose bateze amatwi.

Abaturage bishimiye ivuriro bahabwa na Leta, aho bari gushima abayobozi babo ku ivuriro, bafatana ifoto y'urwibutso ndetse banashishikarizwa kujya barya neza.

Umuntu uri kunywesha abana amata mu nkongoro, aho arimo kwimakaza kujya baha abana amata kugira ngo birinde indwara zirimo bwaki ndetse n'igwingira.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we aho bari mu mugezi bavoma amazi, nyamara ano mazi ntago aba ari meza, kuko ntago atuma batana n'indwara zandurira mu bintu bisa nabi.

Urutonde rwerekana imikorere yo mu bitaro aho bari kwerekana abantu b'abarwayi bo mu mutwe ndetse abantu barwaye indwara zihurira mu mibonano mpuzabitsina, berekana n'ibyo bagakwiye gukora kugira ngo birinde.

Umunyeshuri wambaye impuzankano yo ku ishuri ndetse n'umuganga wambaye impuzankano y'akazi, aho uyu muganga arimo kwerekera umunyeshuri uburyo bakoreshamo igikoresho cyo koza amenyo ndetse yifashishije n'igikoresho gifite amenyo.

Umubyeyi w'umugabo uri kumwe n'umuhungu we, aho bambaye imyenda isa bose, isa umweruru, aho bari gukoresha akadodo mu koza amenyo yabo, nk'uburyo bwagaragaye bwoza hagati y'amenyo neza.

Abantu babiri biganjemo umugabo ndetse n'umugore, aho batwereka bari kurya indyo yuzuye kandi ubona ko ari abantu bakuze bari mu myaka yo hejuru ndetse banasomeza amazi.

Abaganga bagaragara bavura umuntu waguye igihumure, aho bari kwerekera undi ngo abafashe, bamufasha mu buvuzi bw'ibanze, aho uwo murwayi aryamye ku mukeka, neza neza mu gacaca.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, aho umubyeyi wese wifuza ubufasha ku byerekeye n'uburyo yareramo umwana we cyangwa se imirire myiza akigana kikamusobanurira.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga bya ruzungu byifashishwa mu kuvura abaturage baje bagana ivuriro mu bihe bitandukanye, aho hagiye harimo ibyerekana uko amaraso atembera mu mubiri.

Ibitaro bizwi ku izina ry'umusaraba w'amaraso, aho abaturage batandukanye, baba abahaturiye cyangwa abo impande n'impande baza kwivuriza kugira ngo babashe guhabwa ubufasha bijyanye n'indwara zabo.

Inyubako iherereye mu murenge wa Remera, izwi nk'inyubako ifasha abangavu, cyangwa se abakobwa, mu gihe bahuye n'ibibazo byo gufatwa ku ngufu, aho bitabaza iyi nyubako bakaza kuba batanga ibirego bakabasuzuma.

Ivuriro ryubatse mu buryo bugezweho, aho rikikijwe n'indabyo nziza zizwi ku izina ry'umukindo ndetse ivuriro rifite n'imodoka zishinzwe kujya kuzana abarwayi bari kure yaryo bahuye n'ibibazo.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, aho iri mu kanyatsi keza cyane, gafite umucaca wisanzuye, aho iyi nzu izajya ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, inzu zizwi nk'ibitaro.

Abantu bari kwinjira mu nyubako y'ivuriro, aho iri vuriro ndetse rifite n'aho bagurishiriza imiti, ndetse aba bantu bakaba baje bitwaje ibyo bagiye kugeza ku barwayi badafite ubushobozi.

Intebe zigizwe n'amabara agiye atandukanye, ndetse n'imitako iri ku gikuta, aho abantu bazanye abarwayi kwa muganga basigara bategereje mu gihe umurwayi aba arimo gusuzumwa.

Inzu itangirwamo ubuvuzi, aho hatangirwa ubuvuzi bw'ibyerekeye ababyeyi bareta kwibaruka, aho haba harimo ibyumba by'abarutse bategereje gutaha ndetse n'abandi bategereje kubyara.

Umuntu uri kunywa amazi ari mu gacupa gafite umufuniko usa ubururu, ndetse wishyizeho isume ku bitugu, aho ubona ko yari afite inyota, kandi yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu urimo kwandika ku rupapuro, aho akikijwe n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'igipima uburebure n'ubutambike.

Umugabo urimo kunywa amazi ari mu gacupa, aho arimo kwimakaza ubuzima bwiza kuko amazi afasha mu mibereho ya buri munsi ya muntu kandi akaba arinda n'indwara zimwe na zimwe.

Icupa ry'amazi rifunze, riri kwerekana amazi impande yayo asa nk'ataruka, aho amazi afasha mu buzima bwa buri munsi, kuko umuntu burya adafite amazi ntiyabasha kubaho mu buzima.

Umwambaro uzwi ku izina rya ga, aho ukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, aho izo turuzi zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, haba guterura ibyuma ndetse n'ibindi.

Umuntu uryamye ku gitanda, ufite indangururamajwi ye mu ntoki ndetse akaba arimo aragororwa umubiri bagorora imitsi kugira ngo adahinamirana.

Umugabo wicaye uvuye gukora imyidagaduro ngororamubiri, aho yicaye impande y'igikapu, yambaye umupira uba ukora imyitozo ngororamubiri ndetse arimo aranywa amazi ari mu icupa.

Icupa rigaragara mu mabara y'umweru, umufuniko usa ubururu, aho iri cupa ririmo umuti ukozwe mu bihingwa bya gakondo, uvura indwara zitandukanye kandi zigakira.

Igihingwa kizwiho kuvura indwara zitandukanye zirimo: Inkorora, ibicurane n'ibindi ndetse no mu nda, aho turi kubona mu ishyamba aho bihinze kuko ibi bihingwa ari kimeza cyane cyane.

Igihingwa kizwiho mu kuvura indwara zitandukanye, aho umuntu agifashe ku mashami yacyo, aho gikiza indwara zirimo gucibwamo, inzoka ndetse no guhitwa.

Igihingwa giteye ahantu heza gisasiye amabuye utubuye tw'umweru n'umukara, aho iki gihingwa cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya kinyarwanda, kandi kigakiza indwara zitandukanye.

Igihingwa gihingwa n'Abanyarwanda, aho iki igihingwa cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo inzoka, ibicurane ndetse n'inkorora aho ndetse hari n'abacyifashisha mu gushyira mu ndyo zuzuye.